Umwana muto ubona ko yishimye ari ku iriba ari kuvoma amazi anakaraba intoki, ubona ko ari gukora igikorwa cyiza cyo gusukura intoki ze akoresheje amazi meza, bityo rero buri wese wimakaza isuku yagakwiye gukoresha amazi meza n'isabune akaraba intoki kugira ngo agire isuku mu byo akora byose.

Abana bambaye impuzankano z'abanyeshuri bari ku ivomero bari kuvoma amazi bakaraba intoki ubona ko ari byiza gukora isuku ukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, buri wese akaba yagirwa inama yo gukoresha amazi meza n'isabune mu gihe ari gusukura intoki ze kandi akabikora kenshi ku munsi

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye ku ntebe nziza ziri ku murongo zitondetse neza n'ameza kuri buri umwe wese afite icyo kunywa imbere ndetse n'impapuro, imbere hari abantu batatu basa nk'aho bayoboye inama inyuma yabo hari ikirango kinini cy'ubururu ndetse n'umweru ubona ko ari inama barimo bafite ibyo bari kuganiraho kandi bahuje.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abagore n'abagabo bateraniye ahantu hamwe hari inyubako iriho ibirango bitagaragara neza byiganje amabara y'umweru ndetse n'icyatsi, bigaragara ko ari abantu bateraniye ahantu hamwe kubw'impamvu z'ubuzima, bose rero bakaba bishimye kandi bari guhahabwa serivisi bakeneye.

Abagabo batatu ndetse n'umwana n'umugore umwe. Umwana bari kumukorera amazi mu ijerikani ipfundikije agacupa, ubona ko uyu mugore ari kubafata amashusho y'ibyo bari gukora. Inyuma hari ubusitani ndetse hari n'izindi nyubako ubona zinafite n'uruzitiro rw'amatafari ahiye.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abana bambaye impuzankano z'abanyeshuri ndetse n'abarezi babo bambaye impuzankano zabo, hari n'ababyeyi bahagaze imbere y'abana babo bari kureba n'abandi bari gufata amashusho y'ukuntu ibintu bimeze, ubonako bose bishimiye ahantu bari bafite icyo bari kuganiraho kandi bose ubona bacyishimiye.

Abantu batanu mu mpuzankano zisa, zirimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru handitseho shora neza, bambaye n'ingofero zisa, inyuma hari ikirango kiri mu mabara y'umweru kigaragaza serivisi batanga n'ibyo barimo baramamaza, ubona ko ari ibintu bimeze neza, bose barabyishimiye, bishimiye gutangariza abantu, banabereka ko bari mu murongo muzima ko babagana bakabaha serivisi zitandukanye bakora.

Hanze mu mbuga ahari insina ndetse n'uruzitiro rw'imiyenzi, hari urutara hamanitseho ibikoresho byifashishwa ku meza ndetse iyo umuntu ari gufungura harimo nk'amasahane, amasorori ndetse n'ibikombe kugira ngo byumuke babisubize mu nzu.

Umugore yikoreye ijerekani irimo amazi bigaragara ko avuye kuvoma, iruhande hari akana gatoya nako hirya hari inyubako hari n'ubusitani ku ruhande. Ubona ko ari ibintu byiza kujya kuvuzana amazi yo gukoresha mu buryo butandukanye.

Kwivomero aho umwana muto w'umukobwa mu ikanzu nziza, ari kuvoma kandi afite n'indobo nyinshi zo kuvomeramo. Ari ahantu hari ibiti byinshi ubona ko ari ahantu hagenewe guhurira abantu benshi, kandi bagakora icyabazanye. Bari kuvoma amazi yo kunywa cyangwa yo gukoresha ibindi bikorwa bitandukanye.

Mu kigo cy'amashuri abanyeshuri bari ku iriba aho bavomera amazi, bari gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, ni benshi ubona ko babyishimiye gukora isuku y'intoki, hirya hari abandi bana bahagaze ubona ko nabo bibereye mu byabo. Rero gukoresha amazi n'isabune ukaraba intoki bitanga isuku kandi ku buryo bwizewe.

Abagore batatu bari kwandika mu bitabo, bicaye ku ntebe zizengurutse ameza bari kwandikiraho ndetse n'ibitabo bari kwandikamo. Inyuma hari ikirango kiriho umugore n'umugabo ndetse n'umwana wabo nko ku mashusho nkuko bigaragara. Hari ibikoresho byabugenewe muri icyo cyumba barimo bibika impapuro ndetse mu buryo bwiza.

Abantu benshi bicaye ku meza amwe bafite ibinyobwa mu birahuri bitandukanye, bose bafite impapuro imbere yabo basa nk'aho bari kuganira ibintu bose bahuriyeho kandi bari gukora inama muri rusange. Buri wese arategereje ibyo bari kumubwira abandi bari kuvuga abandi bumva ibyo bababwira.

Umugore ari koza indobo ndetse ahetse umwana mu mugongo, ari ahantu ku iriba bavomera amazi. Inyuma ye hari ibiti ndetse n'ibyatsi biri ku ruhande, ubona ari ahantu hagenewe kuvoma. Abantu bakeneye amazi bagenda bakavoma bakajya kuyakoresha, haba mu kuyanywa ndetse no kuyakoresha ibindi bikorwa by'isuku muri rusange.

Abantu benshi bambaye impuzankano z'abavuzi ubona ko bari mu mahugurwa berekwa kandi banabwirizwa uko akazi kagenda bose bafite ibitabo bari gusoma bose banakurikiye ibyo bari kubwirwa.

Abantu benshi harimo abagore ndetse n'abagabo bambaye udupfukamunwa, ubona ko hari umugore uri kwita ku kana agaha imiti ubona ko ari kukitaho mu buryo bw'ubuvuzi, rero aha hantu hari inyubako inyuma yabo ubona ko yagenewe kwakira ndetse no kwita ku barwayi.

Abantu benshi higanjemo abagore ndetse n'abagabo, harimo n'abambaye impuzankano z'abavuzi inyuma hari ikirango kiganje mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, ubona ko bari gufata amashusho y'ibihe bari barimo bagaragaza ko bari kumwe.

Abantu benshi biganjemo abagore, aho bishimiye kandi bari kwakirwa bahabwa serivisi nyinshi zitandukanye z'ubuvuzi, aho ubagana ukakirwa ikibazo waba ufite cy'ubuzima cyose bakagufasha kugikemura kandi ukaba umeze neza mu buryo bwizewe.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye imbere mu cyumba cy'inama bari mu nama bari kuvuga ku ngingo ngenderwaho, imbere hari abayoboye ndetse banicaye bari kuganira ku cyo bumvikanyeho, inyuma hari ikirango kinini kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, iruhande hari inyerekana amashusho igaragaramo umugabo usa nkaho nawe ari kugira ibyo avuga akoresheje indangururamajwi.

Ikirango cyiganje mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu k'ikigo k'igihugu gishinzwe amazi, aho batanga serivisi nyinshi zitandukanye zo gutanga amazi mu bice byose bigize igihugu.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye ahantu hamwe, bakurikiye ibyo bari kubwirwa n'undi muntu, abahagaze imbere, afite ibitabo ari gusa nkaho abagira inama, cyangwa bafite ikintu kimwe bari kuganiraho. Babiri barahagaze, abandi bose baricaye, ni imbere y'inyubako imeze nkaho yubakishije ibiti.

Umugore utereye akana ke ariko kandi ari no kuvoma amazi avomera mu ndobo ahantu ku iriba, inyuma ye hari ibiti, hari n'inyubako zitarikugaragara neza ubona ko ari ahantu hashobora kuba hari abantu benshi kandi hir y'aho hari n'izindi nyubako za kinyarwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bicaye ahantu hamwe abandi barahagaze, harimo n'abashaje bafite imyaka yagiye hejuru baje kwitabwaho ku kibazo cy'ubuzima, hari aho bicaye bategereje ko babageraho, bakabitaho bakabavura abarwayi, cyangwa nanone abaje kuvuza ababo bakabavuza mu buryo bwizewe kandi butekanye.

Umukobwa bigaragara ko afite ibyishimo byinshi, ari kuvoma amazi akoresheje ijerekani iteretse mu mabase abiri agerekeranyije. Inyuma ye hari inyubako zigaragara ku mabati, hari n'imyenda yanitse ku mugozi, ubona ko ari gufura imyenda ye.

Umwana w'umukobwa uri hanze ari gukaraba kuri kandagira ukarabe bigizwe n'indobo ndetse n'amazi n'ibase bakarabiramo, ubona ko ari kwimakaza isuku, buri wese rero akaba yakimakaza isuku akoresheje amazi meza n'isabune akaraba intoki buri kanya kugira ngo yimakaze isuku buri kimwe cyose kigende neza.

Umugabo wishimye cyane mu ishati y'amabara y'ubururu ndetse n'ipantaro y’umukara n'inkweto z'umukara, ari gukandagira agakaraba ndetse kuri kandagira ukarabe ya kinyarwanda, hirya ye har’ibiti, ari hanze y'inzu ubona ko gukoresha isuku ukoresheje amazi ari byo byiza kurushaho, uretse kubashishikarizwa gukoresha amazi meza n'isabune akaraba intoki mu buryo bwo kwimakaza isuku.

Abana b'abakobwa babiri bafite indobo irimo amazi kuko bari ku ivomero, iruhande hari inzu igaragara ko imbere yaho hari ishyamba ndetse n'ibiti bitandukanye, hari n'imbuga ndende ubona ari ahantu hadatuwe cyane.

Abantu batatu, harimo abagore babiri n'umugabo umwe, umwe ari kwigisha abantu akoresheje imfashanyigisho ubona ko bategereje kandi bafite amatsiko y'ibyo ari kubigisha ari no kuberekera, yambaye itabuririya y'ubururu n'abandi bari kumukurikira abereka kandi abigisha hari n'izindi mpapuro ziteretse ku ntebe nazo akoresha ari kwigisha.

Abantu bambaye impuzankano z'abavuzi, bafite n'udupfukamunwa, ubona biyitaho kugira ngo akazi kabo kagende neza. Bari mu cyumba cyabugenewe, harimo ibikoresho bibafasha mu kwita ku barwayi, ndetse no kubafasha kubavura muri rusange mu buryo bwizewe.

Ibiganza biri gukaraba intoki hifashishijwe amazi meza ndetse n'isabune, mu buryo bwo kwimakaza isuku buri wese rero akaba abwirizwa kandi agirwa inama yo kuba yakora isuku kenshi z'intoki, akoresheje amazi meza ndetse n'isabune.

Abantu benshi bari mu cyumba kimwe, bicaye hasi bakoze uruziga harimo abana benshi ndetse n'abagore, ubona ko bose bari ahantu hamwe. Hari n'abandi bari inyuma yabo ubona ko ari ababyeyi, ubona ko ari ibintu byiza biri kugaragara neza abana benshi bambaye impuzankano zose ziganje mu mabara y'ubururu. Ubona ko ari ibintu bisa neza.

Inyubako ebyiri ziri ahantu bisa nkaho bakiri kuzubaka, iruhande hari amatafari ahiye bakoresha bubaka ubona ko ari ahantu bari gutegura neza kugira ngo bazagire ibyo bahakorera, harazitiwe n'uruzitiro rwiza rw'ibyuma ndetse na senyenge.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, inyuma hari ikibaho bigiraho handitseho n'ibintu, bicaye ku ntebe zabugenewe bafite amasahani bari kurya umuceri ndetse n'ibishyimbo. Bambaye n'impuzankano zabo ubona ko bishimye.

Umugore ubona afite ibyishimo, ari gufata amashusho ahagaze ubona ko anezerewe, inyuma hari ikirango cyiganje mu mabara y'umweru ndetse na oranje ubona ko ameze neza ari kwifotoza.

Umugore ndetse n'umugabo bicaye ku ntebe nziza ziri mu mabara y'umutuku ndetse hari n'amezi ari imbere yabo. Umugore afite indangururamajwi ari kubwira abantu basa nkaho bamukurikiye batari kugaragara. Inyuma hari indabyo nziza ubona ko ari ahantu heza kandi hatekanye.

Abantu benshi bahagaze mu muryango w'inyubako iruhande hari ikirango cyiganje mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu bari gufata amashusho bose bahagaze ahantu hamwe bifashe neza kandi bose ubona ko bishimye.

Umugabo wicaye ahantu hanze ku muhanda yicaye ku gikuta iruhande rwe hari agakarito afite ishashi irimo amazi yambaye imyenda yacitse arasa nabi , urabona ko bidashidikanywaho afite ikibazo cyo mu mutwe kandi akwiye kwitabwaho.

Abagore bane bicaye ndetse n'umugabo bicaranye ubona ko bafite ikintu bari kuganiraho kandi bumvikanyeho bose muri rusange, inyuma yabo hari ibitoki biteye hari n'ibindi biti ubona ko ari ahantu heza hateye neza muri rusange.

Imodoka yabugenewe iriho ikirango kinini kigaragaza ko iyo modoka yagenewe gusakaza no kugeza kuri rubanda nyamwinshi serivisi zo kwita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe, hari abantu benshi bategereje ubona ko ari ahantu hisanzuye ho gutangirwa serivisi kuri buri rubanda nyamwinshi.

Mu cyumba cyabugenewe mu kwakira abantu benshi, harimo ameza n'intebe zicayeho abantu bakurikiye ibyo bari kubabwira, hari abantu bari gutanga amabwiriza ndetse banigisha abantu mu buryo bwo kwita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe ndetse abantu bakabasha kugarura ubwonko bwabo ku gihe ibintu bikamera neza.

Mu muhanda umugore yicaye hasi bigaragara ko yambaye imyenda ishaje kandi idasa neza, bigaragara ko nta gushidikanya afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Iruhande hari abandi bicaye ku muhanda, abandi bari kugenda hari abagenda hari n'abagaruka. Ubona ko uyu mugore ushaje wambaye ibintu bisa nkaho bidasa neza akeneye kwitabwaho kandi akamera neza.

Abagore babiri umwe ari kwita ku wundi, hanyuma umwe afite ibibazo byo mu mutwe, undi ari kumuhumuriza amwereka kandi amwigisha uko yitwara kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Ari no kumwitaho bose baricaye ahantu hanze ubona ko ari kumwitaho kugira ngo ubuzima bwe bwongere bugende neza cyane cyane bwo mu mutwe.

Umugabo yicaye ahantu yicaye ku bitenge ubona ko ari mu nzu mu imbere mu gikuta kidasa neza, aziritse amaguru yambaye igitenge ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe kandi ashobora kwitabwaho agakira.

Ikirango cyiganje mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru hariho umugabo wambaye impuzankano z'abavuzi ahari gutanga gahunda n'aho azakorera kuri serivisi z'ubuvuzi, hariho imyirondoro ye, hariho na nimero za telefoni ngendanwa aho ushobora kumushakaho bitewe n'igihe umushakira ukamuvugisha nawe akaguha gahunda hanyuma akaguha serivisi wifuza.

Urujya n'uruza rw'abana bateraniye ahantu hamwe bicaye bose bari ahantu hamwe ubona ko hari ibyo bari kubwirwa kandi bishimiye igikorwa barimo, bose bafite isura iri guseka kandi bose bambaye impuzankano zose ziri mu mabara y'umuhondo ubona ko bishimiye igikorwa barimo.

Umugore ubona ko avuye guhinga yikoreye igitebo kirimo ibyatsi byinshi, inyuma ye hari inyubako isakarishijwe amabati y'amategura, n'inyuma ye hari izindi mboga ndetse n'ibyatsi ubona ko nawe arishimye ameze neza.

Umupira wo kwambara wiganje mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, yanditseho amagambo agaragaza kwitabwaho no gukurikiranwa kw'abantu bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se ufite ibitekerezo bitari ku murongo.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye ahantu hamwe abandi barahagaze ubona ko buri wese ahugiye muri telefoni ye ngendanwa, ariko kandi benshi muri bo bambaye udupfukamunwa ubona ko ari byiza kwirinda kwanduzanya indwara zandurira mu buhumekero.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye ahantu mu cyumba cy'inama aho bari guhabwa amabwizwa ndetse no kwigishwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe aho ufite ikibazo cyo mu mutwe cy'ubuzima butameze neza mu mutwe yitabwaho kandi akamera neza hakurikijwe ibintu byinshi bigenda biganirwaho umwe rero ari kugenda babwira ababwira uko bigenda byose.

Umugore bigaragara ko afite akagozi ari gusukura amenyo yiwe agakoresheje. Ubona ko amenyo asa neza arahagaze ari gushinyiriza agaragaza ko bisa nkaho biryana ariko na none ari gusukura amenyo ye ubona anasa neza.

Umugabo wishimye cyane ari kumwenyura, agaragaza amenyo yiwe ko asa neza, ndetse ameze neza mu buryo bwiza, buri wese rero akaba yagirwa inama yo kwita ku menyo ye, kuko amenyo agira uruhare mu kugira ubuzima bwiza, iyo na yo ameze neza atarwaye.

Umuntu wambaye impuzankano z'abavuzi aho yambaye agapfukamunwa ndetse n'ibikoresho bindi byifashishwa ku baganga bita ku barwayi, hari ibyo ari kwandika ku rupapuro hari n'imashini zabugenewe mu gutanga serivisi z'ubuvuzi muri rusange ari ahantu hari ibikoresho byinshi ubona hagenewe abavuzi ndetse n'abarwayi.

Umugabo wishimye cyane uri guseka anamwenyura, aseka neza afite amenyo meza kandi asa neza. Mu ntoki afite imfashanyigisho yerekana ko kugira amenyo meza bitanga ubuzima bwiza. Buri wese rero akaba yagirwa inama yo gutunganya kandi agafata neza amenyo ye, yaba yagize ikibazo akagenda bakayitaho mu buryo bw'ubuvuzi akamererwa neza.

Umwana bigaragara ko ari muto ari kwitabwaho ku kibazo cy'amenyo ari kurebwa uko amenyo ye ameze ndetse n'ubu buzima bwayo, aha banayitaho aho afite ikibazo bakahavura, buri wese akaba yashishikarizwa rero gusuzumisha amenyo ye kugira ngo yitabweho agire ubuzima bwiza.

Mu cyumba cy'ishuri, aho abana benshi b'abanyeshuri bari guseka berekana ko bafite amenyo meza, ndetse bose buri wese, afite umuti woza amenyo, kandi wese akaba yagirwa inama yo gukoresha umuti woza amenyo, kugira amenyo ye ahorane ubuzima bwiza kandi nawe bimuhe gutuza no kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wishimye uri kumwenyura, aricaye ari kwitabwaho n'umuntu ku menyo yiwe kugira abashe kugira ubuzima bwiza, buri wese rero akaba yashishikarizwa kugana serivisi zo kwita ku menyo kugira agire ubuzima bwiza.

Mu cyumba cyabugenewe k’ivuriro aho bita ku bantu bafite ikibazo cy'amenyo, har’ibikoresho byabugenewe mu kuyavura ndetse no kuyitaho, kugira ngo umuntu abashe kumererwa neza yirinde indwara. Buri wese rero urwaye amenyo, yashishikarizwa kujya kuyisuzumisha akayavuza afite ikibazo, kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Umuganga mu mpuzankano yabugenewe mu kuvura ndetse n'agapfukamunwa ari kuvura areba ikibazo cy'amenyo umurwayi afite yicaye ku ntebe arasamye bari kumurebera uko mu kanwa hifashe n'uko bimeze amenyo arwaye iyo bibaye ngombwa barayakura kugira ngo ubuzima bugende neza cyangwa bakayahonga ni ahantu mu cyumba rero mu ivuriro aho ucya bakagufasha mu buryo kugira ngo amenyo yawe amere neza.

Abantu bahagaze imbere mu ishuri aho bari kwigisha abantu uko amenyo aba ameze n'uko avurwa, hari umunyeshuri uri kwigishwa hifashishijwe imfashanyigisho n'umugabo wambaye impuzankano z'abavuzi, abandi bari kureba ibyo bakora ndetse ubona ko bari kwerekana muri rusange uko bigenda.

Umugabo wambaye impuzankano y'abavuzi, yambaye n'agapfukamunwa. Hari umwana uryamye ahantu ku buriri muri icyo cyumba, ari kwitabwaho arebwa amenyo ye uko ameze ndetse afite ikibazo bakayavura n'ameze neza bakayakorera isuku. Muri icyo cyumba hari n'ibindi bikoresho bimufasha mu gukora akazi kiwe.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi yambaye impuzankano z'abavuzi ari kwerekana imbere uko ibice by'amenyo biba bimeze ndetse anasobanura buri kimwe bigaragara ko ahantu hatangira serivisi zitandukanye zo kuvura no kwita ku menyo.

Ibiganza by'umuganga bifite agakoresho kabugenewe mu kuvura no gukura amenyo, aho afite imfashanyigisho mu kiganza cye ari kwerekana uko bavura amenyo ndetse n'uko bayitaho.

Abadamu batatu ubona ko bakuze bishimye cyane bafite telefoni ngendanwa aho bari gufata amashusho bishimye cyane bareba muri telefoni ngendanwa yabo uko bimeze, ubona ko ari ahantu abantu bakuru cyangwa bakuze bagakwiye kuba bari kandi bakishimwa bakakirwa kandi bagafatwa neza.

Umugabo ndetse n'umugore bishimye cyane mu bitwenge byinshi, umugabo yicaye ku kagare k'abantu bafite ubumuga cyangwa batashobora kwigenza. Umugore ari kumusunika amutembereza ahantu mu busitani bunini, inyuma yabo hari inyubako ndetse n'umuhanda uca hagati, hari n'ibiti bikikije ubusitani.

Abagore babiri bari kumwe n'abana benshi, hari abicaye hari n'abandi babiri inyuma bahagaze ubona ko bishimye bari gufata amashusho bagaragaza uko bameze ndetse n'ibyo bishimiye.

Abantu babiri hari umugabo ugaragara nk'aho akuze cyane imyaka ye ishobora kuba yegeye hejuru, ari gufata amashusho n'umugore ubona ko akiri mutoya bose bishimye ubona ko ari ahantu heza ho kwakirwa n'abantu basa nk'aho bakuze kandi bishimye.

Umugabo ndetse n'umugore bari mu myaka yegiye hejuru ubona ko bakuze cyane barishimye cyane bari no guseka bitewe n'ibyo bari gukora, hari ahantu bicaye rero ubona ko hagakwiye kujya hicara abantu bakuze kugira ngo bitabweho kandi babe hamwe bitabwe mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Abagore babiri umwe yicaye asa nkaho'aho afite imyaka ikuze cyane, afite ikirahuri kirimo amazi bari kumuha n'umuti, ibinini byo kunywa kugira ngo yitabweho mu buryo bw'ubuzima. Undi ni umugore uri kumuha imiti yo kunywa ndetse yambaye impuzankano z'abavuzi babyigiye, ubona ko ari kumuvura kandi ari ahantu ho kwitabwaho cyane ubona ko bigaragara neza.

Abamama beza batatu umwe afite telefone ngendanwa ari kubereka ubona ko ari aho kwitabwaho ku bantu bakuru bishimiye kandi banejejwe n'igikorwa baba barimo kuko buri wese aba akeneye kwitabwaho, nawe rero ushobora kujya ahantu hitabwaho abantu bakuru kugira nawe ubashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu batanu bahagaze bishimye bari gufata amashusho yuko bari kumwe, harimo abagore babiri umwe asa nkaho akuze cyane n'abagabo babiri umwe na none asa nkaho akuze cyane afite n'akana gahagaze imbere yabo, bose ubona ko bishimye bari gufata amashusho hamwe.

Abagore babiri ubona ko umwe akuze cyane, ari kwitabwaho, yicaye ahantu ari guhabwa serivise z'ubuzima ndetse bigaragara ko arimo aravurwa n'umugore wicaye nanone imbere ye, yambaye impuzankano z'abavuzi, afite n'ibikoresho byiza bigufasha mu kukwitaho, yambaye n'agapfukamunwa mu buryo abaganga bitabwaho baba bameze.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe munsi y'igiti bafite ibintu bari kuganiraho ku ngingo rusange kandi bafite ni nibyo bari kwemezanya, urabona bamwe baricaye hasi abandi bicaye ku ntebe ubona ko ari abantu biganjemo abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko.

Abagabo babiri harimo umwe usa nk'aho akuze cyane ndetse bari kureba banasoma igitabo mu buryo bugaragara ko bishimye, imbere bafite ibyo banywesha, bafite ibyo bari kunywa ubona ko ari umuryango wishimye, kandi bari ahantu heza ubona hatuje, hari mwiganje mu mabara y'umweru ubona ko buri wese yishimiye ibyo arimo.

Abantu babiri ubona ko bakuze cyane umwe n'umugabo undi n'umugore bicaye bari ku meza bari gufata amafunguro yabo banaganira ubona ko babyishimiye, muri rusange abantu basa nk'aho ari bakuru bakeneye kandi bakwiye kwitabwaho mu buryo bwo kuganirizwa ndetse no gusangira ubona ari byo bibaha umunezero.

Umugore wishimye cyane usa nkaho akuze afite imyaka yegiye hejuru ari gukora imyitozo ngororamubiri afite udukoresho twabugenewe tubiri mu maboko yombi asa nkaho ari kuzamura amanura akora imyitozo ngororamubiri, inyuma ye hari izindi nyubako ndende zitari kugaragara neza ikigaragara nuko ari gukora imyitozo ngororamubiri kandi abyishimiye.

Abagore babiri umwe ari kwitabwaho bafite agakoresho kabugenewe mu kwifashishwa kugenda, ukora imyitozo ngororamubiri ugenda cyangwa se ukora urugendo muri rusange, bari mu muhanda bagenda inyuma y'umuhanda hari ibiti byinshi ndetse hari n'ubusitani ubona ko ari ahantu heza.

Umumama w'imyaka myinshi bigaragara ko akuze cyane afite indangururamajwi ari kuvuga yambaye neza, ahagaze imbere ahari ameza ari kuvugiraho, inyuma ye hari imodoka ziri kuza, ni ahantu hari ikibuga kinini, hari ibiti, hari utwatsi, hari n'ahandi hari ibitaka, ubona ko ari ahantu hanini hashobora guteranira abantu benshi.

Ibirango bya serivisi z'ubuzima aho bagaragaza indwara y'ibura cyangwa ry'isukari nyinshi mu mubiri w'umuntu, aho bagaragaza n'ibimenyetso bigaragaza ko wayirwaye cyangwa se wenda kuyirwara, bityo rero nkaba nashishikariza buri wese kuba yakireba neza akareba niba atayirwaye kugira ngo abashe kubikurikirana hakiri kare akire.

Abavuzi mu mpuzankano zabugenewe n'udupfukamunwa n'udutambaro tubafasha kugira ngo imisatsi ntihanuke ngo ivangire imiti, bari kuvura basa nkaho berekana ko mu kanwa ariho hari ikibazo ariho bari kwitaho. Hirya hari abandi bantu bategereje benshi batonze umurongo, ubona ari serivisi baje kugana basaba z'ubuvuzi no kwitabwaho muri rusange.

Imbere ahari imeza yabugenewe ndetse n'indangururamajwi, hari umugabo wambaye neza cyane usa nk'aho akuze ari kugaragaza anavuga atanga imbwirwaruhame, inyuma ye hari ibirango byinshi binini bigaragaza uko ameze, hirya hari inyerekana amashusho imugaragaza wese neza, ari gutanga ibibwirizwa bye.

Ikirango cyiganje mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, aho hariho abagabo babiri ndetse n'abagore babiri bari kwerekana banamamaza uko udukingirizo dukoreshwa banatwerekana. Utu dukingirizo tukaba twifashishwa kugira ngo hirindwe ikwirakwizwa no kwanduzanya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kandi mu buryo bwiza.

Ikirango cyiganje mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'umutuku kigaragaza kandi kikanerekana ko abana bakwiye kwirinda kandi bakarindwa indwara zifite ahantu zihuriye n'imibonano mpuzabitsina cyangwa n'ihura ry'amaraso, harimo n'indwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'izindi zandura hakoreshejwe amatembabuzi.

Ikirango kigaragaraho umugore usa nkaho akuze cyane imyaka ye yegeye hejuru ari kwitabwaho, afite ikibazo cy'ijisho ndetse ubona ko ari kwitabwaho n'abantu babifitiye ubumenyi ndetse babifitiye n'ububasha.

Abantu benshi, bose ni igitsina gore, bambaye imyenda yo hejuru bose irasa ubona ko hari amahugurwa barimo cyangwa inama, bafite ibintu bari kwerekana ko bageze ku ndunduro y'inama cyangwa y'amahugurwa bari barimo, ubona ko bishimye kandi banezerewe mu byo barimo.

Ikirango cyiganje mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, kigaragaza Repubulika y'u Rwanda ndetse mu ishami ryayo muri minisiteri y'ubuzima, aho batanga serivisi nyinshi z'ubuzima n'izindi zibishamikiyeho.

Inyubako nini kandi yabugenewe mu gukoreramo imyitozo ngororamubiri. Harimo ibikoresho nk'amagare n'ibindi byabugenewe mu kwirukanka, bigufasha gukorera imyitozo ngororamubiri mu buryo bwizewe, ukagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze ubikesha gukora neza imyitozo ngororamubiri.

Mu nyubako y'ubuvuzi ihema imbere mu cyumba hari intebe nziza zikozwe mu mbaho zifite n'imisego yazo ,hari indabyo nyinshi zihatatse ,hari ameza meza ari mu mabara y'umweru ,umukara ndetse nandi akoze mu rubaho rwiza cyane ubona ko ari ahantu hafite isuku kandi hameze neza.

Inyubako ndende yiganje mu mabara y'umuhondo ndetse batanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, aho hanze hari abantu benshi baje kuyitahira iyo nyubako izajya yakirirwamo abantu baje kwivuza ndetse no kuvuza ababo, ubona ko ubuzima bwiza bugiye kuganza aho habonetse aho kwitabwaho ku bantu benshi.

Mu nyubako itanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, harimo mu imbere ibitanda aho hashasheho n'uburiri bwakira abarwayi ndetse n'abarwaza. Ni ahantu habugenewe ho kwakira abantu barwaye ndetse no kuhavurirwa mu buryo kandi bwizewe, hari isuku haratekanye kandi hameze neza, hari ibikenerwa byose kugira ngo umurwayi yitabweho.

Mu nyubako imbere ahantu hanini hagari ubona hagenewe kwakira abantu bafite uburwayi ndetse n'abandi baje kuvuza ababo. Ubona ko hari ibikoresho byose byabugenewe mu kwakira no kwita no kuvura ku barwayi baje bagana. Hari abantu benshi bagakwiye kuba babakira ariko nta muntu n'umwe uhari ariko urabona ko bafite isuku muri rusange, ni ahantu ho gukorerwa izo serivisi zitandukanye.

Inyubako hariho ikirango cyiganje mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, kigaragaza ahantu bakorera bacuruza imiti, aho ugera ukeneye umuti ukuvura bitewe n'uwo bakwandikiye cyangwa nuk’umeze, ukababwira bakawuguha bakakuvura. Hanze hahagaze ibinyabiziga ndetse n'abantu ubona ko ar’ahantu hagedwa.

Mu nyubako mo imbere ahari amagare menshi yo kunyonga ku bakora imyitozo ngororamubiri n'ibindi bikoresho byabugenewe mu kwiruka bigufasha kugira ngo ukore imyitozo ngororamubiri yo kwiruka umererwe neza, abantu bose rero bakaba bashishikarizwa kuba bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari abantu bicaye bategereje, izindi ntebe ziriho ubusa nta muntu wundi uriho, ubona ko hari abategereje abantu babakira, haba mu kwakirwa basaba serivisi zitandukanye, bavurwa cyangwa banabaza muri rusange ubona ko ari ahantu baha hafite n'isuku.

Mu nyubako y'ubuvuzi, imbere ahantu heza, hasa neza, hari ibirahuri bitwikiriye ahantu bakirira abantu, harimo n'intebe nziza zigezweho, hari ibirango bigaragaza ko hakorerwa ubushakashatsi mu buvuzi, ubona ko nta muntu n'umwe uhari, hari aho abantu bakirirwa ndetse n'abakora ubushakashatsi, nubwo badahari ariko nizo serivisi zihatangirwa.

Mu cyumba cy'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima ndetse harimo n'ubuvuzi, harimo ibikoresho byabugenewe mu gupima ndetse no kuvura abantu. Harimo n'ibikoresho byabugenewe mu kuryamaho, kugira ngo umuvuzi abone uko avura umurwayi neza mu buryo bwiza, kandi afite naho kuruhukira.

Mu ivuriro mo imbere ahari intebe ziticayeho abantu n'aho kwakirirwa kw'abarwayi ndetse n'abaje kuvuza ababo, harimo mo imbere abakira abantu ariko abakirwa bo ntabahari, ni ahantu heza hafite isuku, hari mu birango byiza ndetse no mu mabara meza n'amatara amurika neza, hasa neza cyane.

Mu cyumba kinini kirimo ibitanda byinshi, aho abarwayi barwariye, baryamye ku buririri bwabo, hari abantu bari gukora amasuku bambaye udupfukamunwa ndetse n'impuzankano zabugenewe mu gukora mu nyubako aho batanga serivisi z'ubuvuzi butandukanye. Hari abari gukora isuku rero ubona ko bari kuhatunganya kugira ngo abantu bahari bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abagore babiri, umwe ateruye akana undi ari kumwitaho yambaye impuzankano z'abavuzi, yambaye agapfukamusatsi ndetse n'agapfukamunwa, aho ari kwita ku kana kugira ngo kabashe kugira ubuzima bwiza bigaragara ko kari kwitabwaho kugira ngo kamere neza.

Icyumba kinini mu nyubako nini yisanzuye, harimo ibikoresho byinshi byabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, muri rusange ukaba wahagera, ababishaka barahagera, bakitoza muri iyo myitozo yabo kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Ibikoresho byose byabugenewe birahari kandi bikagufasha gukora imyitozo mu buryo bwiza.

Mu cyumba cy'inyubako itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi ndetse no kwita ku buzima, hari umugabo usa nkaho ari kuzinga inzitiramibu y'umurwayi kugira ngo amere neza. Ni icyumba kinini kirimo uburiri bwinshi butandukanye mu buryo bwiza kandi buri ku murongo, abarwayi barwariraho kandi bakitabwaho neza.

Ikirango kinini cyiganjemo amabara y'umweru ndetse n'ubururu kiranga inyubako ndende kandi nini ikorerwamo kandi igatangirwamo serivisi nyinshi z'ubuzima harimo n'iz'ubuvuzi ndetse no kwita ku barwayi muri rusange izitiwe rero n'uruzitiro rwiza rw'ibyuma ubona ko ari ahantu heza mo imbere harimo ubusitani harimo n'ibendera ubona ko ari ahantu hafite isuku.

Inyubako ndende ebyiri zigeretse hari abantu benshi, hari uri kwakira abantu abandi barategereje, abandi bari hanze aho imodoka zihagarara, hari n'imodoka imwe ihagaze, hari ubusitani bwiza n'igiti kikiri gitoya ubona ko ari ibintu bigaragara neza.

Mu cyumba cyo kuvurirwamo, aho umwana yicaye ari kwitabwaho n'abaganga, umuganga yambaye impuzankano n'agapfukamunwa ubona ko ari kumuvura. Iruhande hicaye umuntu waje kuvuza uwo mwana, ubona ko ari ahantu wagana bakakwakira, waba ufite ikibazo cy'ubuzima bakakwitaho kandi ukamererwa neza.

Inyubako nziza yabugenewe mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, ubona ko hanze hari ubusitani bwiza, hari ibiti byiza, hari utuyira twagenewe kugendamo abanyamaguru, ubona ko hagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi ndetse no kwita ku barwayi mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Inyubako nyinshi, bigaragara ko ari ahatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari umugabo yambaye impuzankano z'abavuzi, yambaye n'agapfukamunwa, inyuma ye hari ubusitani bukikije izo nyubako, ubona ko ari ahantu hagenewe kwakirwa n'abantu bafite ibibazo by'uburwayi butandukanye kandi bakitabwaho mu buryo bwizewe.

Mu nyubako nini, imbere hari aho bakorera imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko ariho serivisi bazitangira zo gukora iyo myitozo. Ubishaka arahagera akishyura agakora imyitozo ngororamubiri, bakamufasha ubuzima bwe bukagenda neza. Harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byabugenewe mu gukora iyo myitozo.

Igikoresho cyabugenewe mu kwakira ndetse no kuvura abarwayi, mu kugaragaza indwara barwaye ndetse no kubitaho muri rusange. Hari n'ibindi bikoresho bicyunganira mu buryo bwo kwakira no kuvura abarwayi, bikoreshejwe n'abavuzi babigize umwuga. Ni ahantu heza hasa neza hafite isuku, ibikoresho biri mu mabara y'umweru ndetse hasi hafite amabara y'ubururu.

Inyubako ndende igaragara ko iri mu mabara y'umweru ndetse hari n'ibirango biri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi n'umuhondo, bigaragaza ko batanga serivisi z'ubuzima, aho ubagana ufite ikibazo cy'indwara bakayitaho kandi bakakuvura ukamererwa neza mu buryo bwizewe.

Inyubako nyinshi zitandukanye, harimo n'igeretse, hari ibirango by'igihugu cy'u Rwanda, hari n'ibindi birango bigaragaza serivisi zitandukanye batanga, hari abantu bari kuhagenderera, hari amamodoka ahagaze imbere y'inyubako ndetse ubona ko hari n'ubusitani bwiza n'ahantu imodoka zishobora gutambukira mu buryo bunejeje.

Inyubako nziza iri mubara meza, ahantu hari ubusitani ndetse n'ibiti, bigaragara ko hatangirwa serivisi z'ubuzima zitandukanye, aho ubagana ufite indwara bakakuvura cyangwa ugiye kuvuza uwawe bakamwitaho akamererwa neza.

Inyubako nziza ndende igeretse ubona ko ari ahakorerwa ubushakashatsi ku miti, hanze hari imodoka ihagaze hari ubusitani bwiza cyane hari n'indabyo nziza hari aho abantu bagendera n'ahagendera imodoka.

Inyubako iriho ibirango byiganjemo amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, bigaragaza ko batanga serivisi zo gutanga no gucuruza imiti itandukanye bitewe n'uburwayi. Aho abarwayi bandikirwa imiti bagenda bakayihabwa cyangwa akumva atameze neza akagenda, umuntu urimo akamwakira, akamubaza uko amerewe, hanyuma bishobotse akamuha imiti imukiza.

Mu nyubako mo imbere ahabugenewe gukora imyitozo ngororamubiri ,harimo amagare menshi yo gukoraho hari n'ibindi bikoresho bikoreshwa hakoreshejwe kwirukanka ugenda hanyuma ugakora imyitozo ngororamubiri ukamera neza ukumva ubuzima bumeze neza.

Mu nyubako imbere ahatangirwa serivise z'ubuvuzi hari ibyumba bitandukanye, harimo uburiri bwinshi bwabugenewe mu kwakira abantu baharwariye, nta muntu n'umwe uhari urabona ko hari isuku kandi hameze neza muri rusange.

Inyubako nini kandi ndende, hanze hari ubusitani ndetse n'imodoka ihahagaze. ahantu hagenewe kwakira abarwayi kuko batanga serivise zitandukanye z'ubuzima ndetse n'ubuvuzi, aho ubagana ufite ikibazo cy'uburwayi cyangwa se uje kurwaza uwawe, hanyuma bakakwakira bitewe nuko umeze, bakakuvura bakurikije indwara urwaye ndetse babifitiye uburenganzira mu buryo bwiza ukavurwa, ukaba muzima.

Mu marembo yuguruye ikigo cyitwa Kigina gishinzwe kuvura ndetse no gutanga serivisi nyinshi z'ubuzima hanze hari umugore uhetse umwana ndetse bigaragara ko yaje nawe gusaba izo serivisi z'ubuzima cyangwa ubuvuzi mu buryo butandukanye.

Mu ivuriro imbere aho bakirira ababagana, hari n'intebe nyinshi wicaraho utegereje ko bakwakira. Ni ahantu hatatse neza, hari amatara yaka neza, hari intebe nziza zo kwicaraho ziganje mu mabara y'ubururu, ubona ko ari ahantu hakeye kandi hafite isuku. Nta muntu n'umwe uhari ariko batanga serivisi z'ubuzima zitandukanye.

Inyubako nini kandi ndende itangirwamo serivisi zo kwita ku barwayi ndetse no kubavura. Hanze hari abantu bambaye neza, bose hejuru bambaye umweru ubona ko bafite n'udupfunyika mu ntoki, buri wese basa nk'aho bagana kuri iyo nyubako, ni ahantu heza hari aho imodoka zihagarara, hari ubusitani ubona neza hatatse, ufite ikibazo cy'ubuzima wagenda bakakwitaho ubuzima bwawe bukagenda neza.

Umugabo aryamye ku buriri bwabugenewe, mu gihe ari kwitabwaho. Yambaye agapfukamunwa ndetse hari umugore uri kumwitaho, yambaye impuzankano z'abavuzi, ubona ko yambaye n' agapfukamunwa kandi yiteguye kugira icyo amufasha kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Ubona ko ari kumufata amaraso mu kaboko.

Mu cyumba cy'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hari ibikoresho byinshi byiganjemo mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, byabugenewe mu kwita ku bantu ndetse no kuvura abantu mu buryo butandukanye bitewe n'ikibazo bafite. Ukabona buri wese yabagana kubw'ibikoresho bihagije bakamwitaho mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Amarembo yuguruye ya Kigina, ahatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuzima, hari umudamu uhetse akana ubona afite n'akandi imbere, ubona ko ibintu bimeze neza, yaje guhabwa kandi akakira serivisi z'ubuzima zitandukanye, haba mu kwivuza ndetse no kuvuza abana biwe, ubona mu imbere hari izindi nyubako n'abandi bantu bashobora kuba bakirwa aho ngaho.

Inyubako ndende iriho ikirango kinini cyiganje mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, aho bigaragara ko batanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, hanze hahagaze imodoka nyinshi hari n'abantu batanga serivisi zo gutanga amayinite no kugurisha no kubitsa.

Mu nyubako mo imbere ahagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi harimo ibikoresho byiza byo kuryamaho cyane cyane ku bantu bari kwitabwaho bari kuvurwa, hari n'ibindi bikoresho byabugenewe mu kugaragaza amashusho y'uko umurwayi ameze ndetse n'uko ibikoresho biri gukorwa kandi bikoreshwa mu buryo bwabugenewe kandi mu buryo bwizewe.

Umuvuzi mu mpuzankano ze zabugenewe n'agakoresho kabugenewe ari kuvura umugore wicaye ku buriri bwe waje kwitabwaho kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Inyuma ye hari undi murwayi uryamye ku gitanda bigaragara ko nawe ategereje umuntu umwitaho. Ni ivuriro aho buri wese agana afite ikibazo cy'uburwayi akitabwa mu buryo bwizewe agakira.

Ibikoresho n'imiti bitandukanye byabugenewe mu kwita ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri, iri ahantu mu gikapu cyabugenewe kibika aho ubikeneye abikoresha mu buryo bwo kwita ku buzima bwiwe cyane cyane ku bakora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo yicaye ahantu ku muhanda, ari kunywa amazi, bigaragara ko akora imyitozo ngororamubiri. Buri wese rero, akaba ashishikarizwa gukora imyitozo ngororamubiri, akanywa n'amazi menshi kuko bitanga ubuzima bwiza kandi mu buryo bwizewe, burambye.

Ibikoresho byiza byabugenewe byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri aho hari abantu baba baragize ibibazo biterwa no kudakora iyo myitozo ngororamubiri urahagera ukayikora bakakwitaho bakoresha ibikoresho byiza byabugenewe hanyuma ukagira ubuzima bwiza.

Ibikapu bibiri, kimwe gifunze ikindi gifunguye, byose byabugenewe mu kubika ibikoresho byo kwitabara mu buryo bwihutirwa cyane cyane mu buryo bw'ubuzima. Iyo ugize ikibazo haba igikomere, haba imvune cyangwa n'ubundi burwayi bwihutirwa, haba harimo imiti y'ibanze igufasha mu gihe abavuzi babyigiye batarakugeraho ngo bakwiteho.

Umugabo umeze neza akora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi ubona ko gukora imyitozo ngororamubiri ukanywa n'amazi menshi, bitanga ubuzima bwiza kandi mu buryo bwiza. Agira igihagararo cyiza kandi ubona ko afite n'ubuzima bwiza umurebeye inyuma.

Umugabo bigaragara ko akora imyitozo ngororamubiri, aricaye, yambaye neza cyane, ari kunywa amazi, bigaragara ko umuntu iyo akora imyitozo ngororamubiri, akanywa n'amazi menshi, agira ubuzima bwiza kandi mu buryo burambye.

Igikoresho bakoresha bazirika ahantu hafite imvune havunitse kugira hamere neza hadakomeza kubyimba kiri mu mabara y'ubururu aho gifasha abantu bakora cyane cyane imyitozo ngororamubiri iyo bagize ikibazo cy'imvune bakizirika aho bafite imvune hanyuma bagakira.

Umugabo bigaragara ko afite igihagararo kiza aho ari kunywa amazi kandi amazi atanga ubuzima bwiza, ameze neza akora imyitozo ngororamubiri, ubona ko afite igihagararo kiza buri wese akaba yagirwa inama yo gukoresha imyitozo ngororamubiri ndetse no kunywa amazi menshi kuko bitanga ubuzima bwiza.

Ibikoresho byabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane mu guterura, hari umuntu uri kwandika yambaye impuzankano z'abavuzi, afite impapuro ariko kwandikaho n'ikaramu ari gukoresha. Ubona ko afite ahantu akorera abantu bamugana kuri izo serivisi, abazikeneye bakazironka.

Umuntu wambaye impuzankano z'abavuzi ari kwita ku muntu amuvura uryamye ahantu habugenewe, amuvura hikoreshejwe imyitozo ngororamubiri amukandakanda kugira ngo ubuzima bwe bubashe kuba bwagenda neza.

Mu iguriro ry'imiti ubona ko hari imiti yabugenewe mu kuvura abantu, cyane cyane hifashishijwe gukora imyitozo ngororamubiri n'iyo miti ikabafasha. Ni ahantu hari imiti myinshi itondetse ku buryo bwiza kandi mu buryo buri ku murongo.

Umugabo bigaragara ko akora imyitozo ngororamubiri kandi mu buryo bwiza, afite amazi ari kwimenaho mu maso bigaragara ko yari ashyushye cyane, buri wese akaba yagirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri no gukoresha amazi meza kandi menshi ayanywa kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abantu batatu bari gukina, babiri bambaye impuzankano zisa undi yambaye indi mpuzankano bigaragara ko bari guhangana mu ikibuga, n'kirango kiriho abo bagabo gikiriri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, ubona ko ari umukino mwiza bambaye impuzankano nziza ndetse n'ibikoresho bifasha kurinda umutwe.

Abantu babiri harimo umugabo umwe n'umugore umwe, umwe yicaye umugabo aricaye ari kunywa amazi, umugore arahagaze bafite ibikapu byabo hasi, uri kubona ko bari bari mu myitozo ngororamubir. Buri wese akaba yagirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri kuko bitanga ubuzima bwiza, bigatuma umuntu abaho neza kandi mu buryo bwiza.

Imfashanyigisho nyinshi cyane harimo ibice bigize umubiri w'umuntu, harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, cyangwa se byifashishwa mu gusimbura ingingo z'umubiri w'umuntu mu gihe uwo mubiri cyangwa iyo ngingo yaba yagize ikibazo igasimbuzwa indi ngingo.

Igikoresho cyabugenewe cyane cyane mu gukora imyitozo ngororamubiri, ukuraho inda yabaye nini ikongera ikamera neza, kandi ukagaragara neza nk'muntu ukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, asa neza, afite igihagararo cyiza kandi ubona ko ashinguye muri rusange, buri wese rero akaba yagirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ubuzima bwe bubashe kugenda neza, mu buryo bwizewe.

Ahakorerwa ubuvuzi hifashishijwe imyitozo ngororamubiri cyane cyane ku bagize ikibazo cy'imvune, hari umugabo w'umuvuzi yambaye impuzankano yabo ari kuvura umugore wicaye ku ntebe ndetse hifashishijwe ibikoresho byabugenewe, azamuye akaguru kandi ahandi yicaye ubona ko ari mu buryo bwizewe.

Igikoresho cyabugenewe muri serivisi zo gutanga imyitozo ngororamubiri, cyiganje mu mabara y'umweru, aho buri wese yashishikarizwa kubagana, hanyuma agakoresha iki gikoresho cyabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, kandi umuntu akamererwa neza mu buryo bwisumbuyeho, aho buri wese rero yashishikarizwa kugikoresha kugira ngo amere neza.

Mu cyumba cy'ivuriro ahari ibikoresho byabugenewe mu kuvura hanyuma hari n'abantu bari kuvurwa bicaye ku bitanda no ku buriri bwabo imbere hari abantu bambaye impuzankano z'abavuzi ndetse n'undi mugabo umwe uri kureba uko ibintu biri kugenda hari inyerekanmashusho bari kureberaho basa naho bateze amatwi bareba n'ibyo bari kubabwira muri rusange.

Igikoresho cyabugenewe mu kuzirika ahantu hafite imvune, haba ku kaguru cyangwa ku kaboko, aho ari ho hose ku gice cy'umubiri w'umuntu, igikoresho kiri mu mabara y'umutuku ndetse ubona ko ari igikoresho cyizewe mu kwifashishwa mu kuvura imvune.

Umuntu ari kuvurwa ku kaguru hakoreshejwe amazi akonjeshejwe cyane avurwa mu ivi aho ashobora kuba afite ikibazo. Hari umugore uri kumuvura amwitaho yambaye ikanzu y'umukara ubona ko ari kumwitaho kugira ngo abashe kongera kugenda neza.

Umugabo uri kwivura akoresheje intoki ze ndetse ubona ko ubu ivi ari ryo rifite ikibazo. Umugabo bigaragara ko akora imyitozo ngororamubiri kubw'igihagararo cyiza afite ndetse n'umubiri mwiza bigaragara ko akora imyitozo ngororamubiri kandi mu buryo bwiza.

Umugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri ahantu mu cyumba cye, afite udukoresho twabugenewe mu gukora iyo myitozo. Iruhande rwe hari intebe nziza zo kwicaramo, ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe bugende neza n'indi mirimo ye ayikomeze neza.

Mu cyumba cyabugenewe harimo ibikoresho byinshi, harimo intebe ndetse n'ibindi bikoresho byinshi byifashishwa mu kwita ku bantu mu buryo bw'imyitozo ngororamubiri ndetse bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza, buri wese rero yagakwiye gukora imyitozo ngororamubiri kuko itanga ubuzima bwiza kandi mu buryo bwizewe.

Agakoresho kabugenewe mu kuvura indwara nyinshi ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri, abantu bafite ibyo bibazo bakaba bagakoresha aka gakoresho mu kubitaho ndetse no kubavura, uwagira ikibazo cyangwa icyo yakumva atameze neza yagana ababishinzwe bakamukorera ubuvuzi mu buryo bwizewe akavurwa.

Umugore wambaye impuzankano z'abavuzi afite agakoresho kabugenewe yicaye ndetse ari kureba neza mu kanwa k'umwana ari kuvura amwitaho areba uko amerewe, haba mu maso cyangwa se mu isura muri rusange, akana nako bari kukitaho kugira kamererwe neza.

Abantu bane bigaragara ko ari abagabo bari gukora imyitozo ngororamubiri, bazenguruka ikibuga ahantu habugenewe, bambaye imyenda yabugenewe, ubona ko bari kugaragaza ko imibiri yabo ikora neza kuko bakora imyitozo ngororamubiri. Buri wese kugira ngo agire ubuzima bwiza, akeneye kandi abwirizwa kujya akora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Imodoka itabara imbabare, ishinzwe gutwara abantu bafite ibibazo by'uburwayi bakeneye ubutabazi bw'ibanze, ibavana ahantu hamwe ibajyana ku bitaro. Iri mu muhanda iri kugenda, iruhande rw'umuhanda hari ubusitani ndetse ruguru y'imodoka hari n'ibiti ndetse ubona ko biri kugaragara neza inyuma y'umuhanda.

Mu cyumba cy'ahakorerwa imyitozo ngororamubiri, umugabo ubona ko ateye neza, aricaye, yasutamye ameze nkaho ari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hari undi usa nkaho ari kumuha amabwiriza, harimo muri icyo cyumba cy'imyitozo ibikoresho byabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye isaha nziza, yambaye inkweto nziza, n'ikabutura nziza aho ariyi gukora imyitozo ngororamubiri kandi buri wese akaba yayikora akaba yamererwa neza kurushaho mu buzima bikamurinda kurwaragurika bikamurinda n'izindi ndwara ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo yicaye kukameza mu cyumba kivurirwamo abantu bafite indwara zitandukanye cyane cyane imvune, hari umugore ari kumuvura akoresheje agakoresho kabugenewe mu kuzirikana ahantu hafite imvune, ubona ko kwitabwaho biri kugenda neza kandi ari bumere neza.

Umugore ndetse n'akana bicaye ku buriri, aho hirya hari n'undi muntu ubona ari uburiri bwinshi butandukanye ahatangirwa serivise zitandukanye zigendanye n'ingorororamubiri kugira ngo umuntu abashe kumererwa neza. Ubona akana na mama wako bishimye, bameze neza.

Icupa ryiganje mu mabara y'ubururu ririho ibirango bigaragaza ko ari umuti gakondo ukoreshwa hifashishijwe ibimera hi harimo n'igikakarubamba hariho na nimero za telefoni ngendanwa aho ukeneye umuti wabahamagara bakakurangira kandi bakakubwira uko wawubona mu buryo bukoroheye.

Udupfunyika n'amacupa y'imiti gakondo, ikorwa hifashishijwe ibimera by'igikakarubamba, byifitemo ubushobozi bwo kuvura ndetse no kwita ku ruhu neza mu buryo bwiza ukagira uruhu rutoshye kandi rufite ubuzima bwiza.

Amacupa menshi atondetse ku murongo yiganje mu mabara y'umweru harimo iry'umuhondo ndetse n'iry'icyatsi, bigize umuti gakondo ukorwa hifashishijwe ikimera cyitwa igikakarubamba, kigira uruhare runini mu gutuma umubiri umera neza ndetse n'uruhu rugatoha rugasa neza.

Icupa ry'umuti gakondo aho rigaragazwa n'ibirango bigaragaza ibikoze uwo muti harimo nk'igikakarubamba ndetse n'ibindi bitandukanye umuntu ashobora gukoresha akabimererwa neza bitewe n'ikibazo afite cyangwa bitewe n'uko akeneye kugira ubuzima bwiza, ubuzima bugakomeza bukagenda mu buryo bwiza.

Amacupa menshi ari ku murongo arimo imiti gakondo ifasha umubiri ndetse n'uruhu kumererwa neza, aho uyikoresheje amererwa neza mu mubiri ndetse n'uruhu rwe rugatoha rukamera neza, ukabona buri wese ashishikarizwa gukoresha uyu muti kandi akamera neza.

Ingemwe nyinshi z'ibimera byifashishwa mu gukora imiti gakondo biri ahantu hamwe biteretse aho ugenda ukabigura ukajya kubitera kugira ngo nawe uzabone umuti bitewe nimba uri umuvuzi ahantu rero bahita ahantu haba hari ibiti by'ingemwe ugenda ukagura bitewe nicyo ushaka byo nibyifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Ikirango kigaragaza ubwoko bwinshi bw'imiti gakondo ndetse n'ibimera iyo miti iba ikorwamo, mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye hifashishwa iyi miti mu buryo bwizewe kandi butekanye.

Uducupa tw'umuti gakondo twiganje mu mabara y'ubururu bwerurutse ndetse n'umweru, aho ukoreshwa mu kuvura no guhangara indwara nyinshi zitandukanye z'ubuzima. Ukaba ukoresha mu kugira ngo ugire ubuzima bwiza bitewe n'ikibazo ufite bitewe na none n'icyo umuti umara ku buzima. Ubuzima bwawe bukagenda neza kandi mu buryo bwiza.

Ibiti byinshi ndetse n'ibibabi byabyo biri ahantu biteye ahantu muri rusange hameze neza, ubona ko ibi bibabi byifashishwa mu gukora imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura no kwita ku barwayi mu buryo bwinshi butandukanye kandi mu buryo bwizewe.

Uducupa twiganje mu mabara y'umweru turimo imiti ya gakondo ikoreshwa mu kuvura abantu bafite indwara zitandukanye z'ubuzima, harimo iz'umubiri, iz'umutima, n'izindi zitandukanye muri rusange cyane cyane hifashishwa igikakarubamba gifite intungamubiri cyangwa n'ubudahangarwa mu kuvura ndetse no gufata neza uruhu.

Ibirango by'umuti gakondo ukorwa mu gi kakarubamba aho wifitemo ubudahangarwa ndetse n'umuti uvura abantu bafite ikibazo cy'uruhu rutameze neza ndetse n'ubuzima bumeze neza muri rusange, ukaba wakoresha ukagira uruhu rwiza kandi ukagira n'ubuzima buzira umuze.

Ibikombe byabugenewe mu kubika imiti gakondo ikorwa hifashishijwe ibimera karemano harimo nk'igikakarubamba, kifitemo ubushobozi bwo kuvura ndetse no kwita ku ruhu rugasa neza ndetse n'ubuzima muri rusange.

Amacupa atatu akoreshwa mu kubika imiti gakondo ikorwa hifashishijwe ibimera, ndetse cyane cyane igikakarubamba, aho byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye bitewe n'ikibazo ufite, hanyuma indwara nazo zikavurwa hakoreshejwe iyi miti gakondo ikomoka ku bimera.

Abantu babiri harimo umugabo umwe n'umugore umwe, aho bari kwerekana imiti gakondo bakoresha bavura abantu indwara nyinshi zitandukanye, ubwo bigaterwa n'indwara urwaye cyangwa uko wumva umerewe ukagenda bakakuvura bakoresheje imiti gakondo kandi ukamererwa neza, bitewe n'ikicyo urwaye bakakuvura nawe ukabishyura ugata umeze neza.

Ahagurishirizwa ingemwe z'ibiti ndetse n'imiti gakondo, hari ibimera byinshi byifashishwa mu gukora imiti gakondo, hari umuntu uri kuzuhira ndetse n'abandi benshi, hari abaje gushaka ingemwe z'ibimera bifuza ndetse byifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara nyinshi zitandukanye z'umubiri.

Agakangara karimo ibibabi ndetse n'akandi kameze nk'agasekuru basekurisha ibyo bibabi, ibi bibabi rero ni umuti gakondo ufasha kandi ugakiza indwara nyinshi zitandukanye, haba iz'ubuzima cyangwa iz'umubiri, hari uducupa dutoya turimo umuti ubona natwo dukoreshwa.

Icupa ry'umuti gakondo ryiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umutuku aho uyu muti gakondo ukorwa hifashishijwe ibimera ukiza kandi ukavura indwara nyinshi harimo n'iz'inzoka zo mu nda ubona kwa kundi uba ufite ikibazo cy'inzoka zo mu nda iyo uwunyweye umererwa neza buri wese akaba yagirwa inama yo kuwukoresha mu gihe afite ikibazo cyo mu nda agakira.

Ikirango cy'umuti w'ibimera ukoreshwa mu gukora umuti gakondo uvura indwara nyinshi zitandukanye harimo izo mu mutwe cyangwa iz'umubiri cyangwa nano iz'uruhu.

Igiti cyitwa umuravumba gifite amababi menshi, kikaba gifite uruhare mu kuvura kandi no gukora imiti myinshi ivura kandi ikita ku bantu bafite indwara zitandukanye harimo n'inkorora, muri rusange ukaba wa ukoresha ufite icyo kibazo cy'inkorara cyangwa indi ndwara ihashywa nayo, hanyuma ukitabwaho kandi ukavurwa ukamera neza.